Abantu bicaye ubona ko bari mu nama cyangwa amahugurwa, bambaye imyenda iranga iyo nama barimo, harimo batatu bicaye imbere ubona ko bayoboye abandi, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe.

Salle mberabyombi iberamo inama, bicaye ku buryo bw'uruziga ruzengurutse; bakaba bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku wijimye. Harimo abagore n'abagabo bagiye hari abambaye udupfukamunwa n'abatatwambaye, bari kugenda bavuga ku bintu bitanu.

Abantu bari mu nama y'ubuyobozi butandukanye, imbere yaho hateretse amacupa y'amazi abandi hateretse amacupa y'ikawa, bari ahantu hasa neza cyane bagiye ari abagabo ndetse n'abagore bagiye batandukanye.

Umuyobozi uri mu biro, imbere ye hateretse icupa ry'amazi y'inyange, akaba afashe intoki ze zihuje ibiganza, yambaye amarinete na karuvati, yambaye ishati y'ubururu bwerurutse, yambaye n'ikote ry'icyatsi cyijimye.

Abantu bigaragara ko bavuye mu muganda rusange w'ukwezi bafite ibikoresho byifashishwa mu gukora isuku harimo ububido, harimo ibitiyo n'ibindi bitandukanye. Ni abantu benshi bicaye ubona bicaye ahantu hari icyapa cyo kwamamaza hameze nko ku Kagari barikuganira ku mibereho yabo ya buri munsi.

Abantu bari mu nama harimo umuzungu umwe n'abirabura babiri, uwo muzungu ni umugore, imbere yaho hateretse amazi y'inyange, uyoboye inama biragaragara ko yambaye ikositimu.

Inama y'abaturage, umuyobozi w'umugore ahagaze imbere, ari kubabwira ibyo yabateguriye muri iyo nama, mu nama bamwe bicaye ku ntebe y'urubaho, abandi bicaye mu byatsi, abandi bari hirya barahagaze mu biti.

Abayobozi bakora mu kigo runaka bari kuganira ku ngingo zitandukanye, Imbere yaho hagiye hatetse amacupa y'amazi, bicaye mu buryo bumeze nk'uruziga, imbere yaho hicaye abayobozi babo bakuru batatu, ari abagabo babiri n'umugore umwe uri hagati.

Abantu bari mu modoka itwara abagenzi rusange, abamama babiri bari kureba muri terefone, umwe yambaye imyenda nk'iy'abayisiramu yitangiyeye, hari n'undi mumama hirya uri kureba ibyo bari gukora.

Ifishi bigaragara ko yafatiwe muri telefoni iriho ibyangombwa byemerera umuntu kubaka ndetse n'uburyo yabisaba. Biragaragara ko iyi fishi bari bayikuye mu rubuga nkoranyambaga rwa Google.

Ipironi ry'amashanyarazi riteretseho transifo igemura amashanyarazi munsi yaho harimo ikindi gikoresho cy'amashanyarazi ubona cyatangiye gufata umugese aho hantu hubakishijwe amabati ashaje inyuma yaho hari igipangu kiriho inzu ishakaje amabati y,umutuku.

Abantu bari kwa muganga, umugabo umwe uhetse igikapu uhagaze imbere yidirishya n'umusore uhetse igikapu baheka imbere ku nda na uhagaze imbere y'idirishya, kizimyamwoto iri mu ibara ry'umutuku ifashe ku gikuta, ababyeyi batatu bicaye ku ntebe bategereje serivise, umwe igikapu atwara mu ntoki kimuri imbere.

Igazete ya leta yasohotse ku itariki makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani, iriho amabwiriza agiye atandukanye agenga ibyo leta yateguye muri iyo gazeti.

Umugabo wunamye wambaye agapfukamunwa ufite uruhara yambaye n'impuzankano y'abanyururu ndetse ari kumwe n'umwavoka kuruhande ndetse nawe wambaye agapfukamunwa afite n'umusatsi mukeya w'umukara bari kureba muri campiyuta ateretse umuti usukura intoki iruhande rwabo ndetse n'amazi.

Igipangu gifite icyapa hejuru cyanditseho ngo igororero rya Huye, kikaba gikingishije urugi rubonerana rugizwe n'utwuma tugiye dushinze duhagaze, ku marembo hubatse inkingi ebyiri nini zubakishije amabuye.

Amacupa abiri asa umutuku ashinzwe kuzimya umuriro, ateretse ibikarito yavuyemo iruhande rwayo ndetse n'agaheha gasohora umwuka mu gihe bagiye kuzimya umuriro.

Abayobozi b'abagore bari kurahira mu nshingano bagiye gukora nshyashya, bambaye imyenda y'imikenyero igiye ifite amabara atandukanye, bose bafashe ku mabendera y'u Rwanda, bazamuye ukuboko kundi bari kurahira indahiro ibajyana mu nshingano nshya.

Imodoka ndende itwaye ibyuma bitwikirijeho agashitingi k'umutuku inyuma gatoya, imodoka ifite ibyapa bigiye biyanditseho mu mpande biri mu mabara y'ubururu ndetse n'amabara y'umweru.

Imodoka iri mu bwoko bw'imodoka biga gutwariraho, inyuma yaho ifiteho icyapa cy'inyuguti ya L ndende, ku mpande hariho ibindi byapa bitandukanye, iyi modoka iri mu ibara ry'icyatsi kijimye.

Amazu menshi cyane aherereye ahantu ubona ko ari mu mujyi, ayo mazu yiganjemo ayo ubona ari nk'inganda zitunganya ibintu bitandukanye, zisakaje amabati y'ubururu, zifiteho n'utuntu tuba ku nganda duhora twizenguruka.

Umuhanda munini wa kaburimbo, urimo imodoka ebyiri nini z'imyeru z'amavatiri yo mu bwoko bwa ranjirova, harimo moto ziri kugenda mu cyerekezo gitandukanye, n'icy'imodoka ziri guturukamo.

Ihuriro ry'imihanda itandukanye harimo imodoka zimwe ziri kujya mu cyerekezo kimwe n'izindi zijya mu kindi, harimo imodoka y'umukara y'ivatiri, hari n'indi itwara abantu mu buryo bwa rusange iri kuminuka, hari umumama n'umugabo bari kwambuka umuhanda umumama akenyeye igitenge cy'ubururu.

Umuhanda ugerekeranye ugaragaza umuhanda wo hejuru n'uwo hasi binyuranamo abamotari babiri batwaye abagenzi ikamyo nini cyane itwaye ibintu bitwikirije shitingi y'umutuku n'undi mumotari uri guturuka imbere ageze munsi y'ikiraro.

Ihuriro ry'imihanda ririmo abamotari babiri, umwe w'imbere ahetse umumama wambaye ikote ry'umukara we igikapu cya kake, uw'inyuma ahetse umugabo wambaye ipantaro isa na kake, aterura ikarito yambaye n'ikoti ry'umukara n'inkweto zirimo ibara ry'umutuku.

Akazu kicaramo abagenzi mu gihe bategereje imodoka, cyangwa se mugihe bavuye mumodoka bananiwe. Imodoka ituruka imbere iri kuza isatira ako kazu bigaragara ko ivuye ahantu hari imihanda igerekeranye yanyuze mu wo munsi.